Inyubako y'amashuri inyubako y'amashuri aho ifite uruzitiro rwabugenewe, kandi ikaba ifite jaride iteyemo umucaca ,ikaba irimo n'ibiti bitandukanye bifasha abanyeshuri guhumeka neza ,aho inyubako y'amashuri igaragara neza cyane.

Iyi nyubako yigirwamo n'abana biga mu mashuri abanza, aho inyubako yakira abana bose biga mu mashuri abanza bityo bakigiramo neza. Aho yubatse neza, yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite inzungi n'amadirishya bya metarike, ikaba ikoze neza ifite sima, ikaba ishinzwe kuyigiramo n'abana batoya biga mu mashuri abanza.

Ibyicungo by'abana batoya bari munsi y'imyaka itandatu, ibyicungo ni byiza bifasha abana gukunda ishuri, kandi bifite akamaro; bituma abana bishimira ibyo barimo, kandi bakigiramo kubana n'abandi no gusabana. Ibyicungo ni byiza mu buzima bwa buri munsi kuko bifasha ibigo by'amashuri kubona abana benshi kandi bafite ubushake.

Inyubako bogosheramo, irimo abantu batandukanye baje kwiyogoshesha. Inyubako irimo abanyeshuri batandukanye baje gukoresha imisatsi mu buryo butandukanye, bambaye iniforome kandi bishimiye kuza gukoresha isuku n’umubiri wabo.

Inyubako yigirwamo abanyeshuri bo muri segonderi, aho bari gukora ibizamini bitandukanye, aho bafite impapuro imbere yabo, aho ishuri ririmo intebe zabugenewe zicaramo abanyeshuri bakiga neza kandi badacucitse ku murongo, aho bambaye iniforome zibafasha kuba ari abanyeshuri ba nyabo kandi buzuye, aho biga neza kugira ngo baze......

Ishuri rikorerwamo imyigire y'amasiyansi, aho abanyeshuri biga ibijyanye n'amasiyansi bajya maze bagashyira mu bikorwa ibintu baba barize mu magambo, bakahakorera puratike bakaza kubona ibisubizo by'ibintu bibaza n'ibyo baba biga, bijyanye n'amagambo bakabishyira mu bikorwa.

Abanyeshuri biga gutwara ibinyabiziga n'amategeko y'umuhanda aho bari gushyira mu bikorwa ibyo bamaze kwiga mu magambo, aho bari kwitegereza ikinyabiziga kandi bikaba bikorerwa mu nyubako yabugenewe, aho bafite ibi bikoresho bibafasha kwiga neza ibijyanye n'ubukanishi no gutwara ibinyabiziga.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya tekinke n'ubumenyigiro aho bari gukora ibikorwa, bari gushyira mu bikorwa ibyo bize mu magambo, aho bafite ibikoresho byabugenewe bibafasha gushyira mu bikorwa aho bari gushyira bari gukora ibikorwa kugira ngo bamenye ibyo bize cyane, kandi bizabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi nibagera hanze bazabikoreshe biboroheye bibashe kubabyarira inyungu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho babonye impamyabushobozi (seritifika) aho bari imbere y' amashuri yabo baba bafite impapuro zerekana ibyo bize, kandi bakaba bameze neza bishimye, bakaba uburinganire bwubahirijwe ari abahungu n' abakobwa bakaba bahagaze imbere y' ishuri bameze neza, kandi bakaba biga neza, batunganye n' ibyo biga bikaba bizabagirira akamaro.

Inyubako yigiragamo abanyeshuri, aho ifite ibikoresho bitandukanye, aho ishuri ritatse neza rifite akabati kabugenewe kabikagamo ibitabo by'abanyeshuri, aho ifite ameza ikaba ifite n'inebe z'abana bicaraho, ikaba ifite ibikoresho bitandukanye biri mu ishuri aho harimo ibikoresho bifasha abana kumenya ibihugu kandi neza.

Abanyeshuri biga ibijyanye no gushushanya bo mu mashuri yisumbuye, aho bari gushyira mu bikorwa ibyo biga mu magambo, bashushanya kandi bari kumwe na mwarimu wabo bafite n'ibikoresho.

Umuntu ukora akazi ko kubaza; gukora akazi ko kubaza ni byiza gatunganya imbaho zikavamo ibindi bikoresho, bityo bikagufasha kubaho mu buzima bwiza bwa buri munsi, nawe ubikora akazigurisha maze akabonamo amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi akaguramo ibyo akeneye.

Abanyeshuri biga ibijyananye n'amasiyanse, aho bari mu nzu zabigenewe bakorera paratike, aho bashyira mu bikorwa ibyo bize mu magambo, kugira ngo nibagera hanze bazabe babifashe, maze bibafashe kuba bakomeza ayo masomo neza, bakavamo abahanga mu bijyanye n'amasiyasi n'ubushakashatsi beza, bikaba byari......

Abanyeshuri biga ibijyanye na tekinika bari gukora gushyira ibyo bize mu bikorwa, aho bafite ibyuma bitandukanye bakanika kandi barangiza kwiga bamaze kubifata neza bikazabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bakazabikora bikazajya bibaha amafaranga yo kwifashisha baguramo ibintu bakeneye bya buri munsi.

abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuhinzi, aho bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bize mu magambo gukora paratike, aho basuye ikigo gitunganyirizwamo ubuhinzi, aho batubura imbuto y'ibirayi maze bakahigira byinshi bizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bityo bakaba bari mu imenyerezamirimo y'ibyo biga, kugira ngo bizabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho bari kureba ubuhinzi bwo gutubura ibirayi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye biga ibijyanye n'amashanyarazi n'ikoranabuhanga, aho bari gushyira mu bikorwa ibintu bize, aho bari gukanika bashyira mu bikorwa ibyo bize mu magambo, babikora mu buryo bwa puratike kugira ngo bizabafashe gukora akazi kabo neza, mu gihe bazaba barangije amashuri, bakabishyira mu bikorwa bikabateza imbere.

Abaririmbyi batandukanye bari kuri mikoro, bafite ibikoresho byabugenewe bibafasha kuririmba indirimbo zabo ,mu bikoresho bafite bibafasha kuririmba indirimbo zabo kandi neza aho bari kuririmbira kuri mikoro aho bafite gitari zibafasha gutuma amajwi yabo agenda neza, maze abantu bakishimira indirimbo.